Dukwiriye gukorana natwe mu bwishingizi ubaka ahazaza hamwe mu cyizere cyinshi ungukira mu bushobozi ntagererankwa bw'ubwishingizi twishingirwa n'ibindi bigo ndetse n'ubushobozi bw'ubukungu butajegajega dufite inyungu twinjije mu myaka itanu ishize ni ikimenyetso gikomeye cy'uko turi abizerwa kandi dufite umuhate wo kukurindira umutekano hamagara makumyabiri, na gatatu ,makumyabiri na gatatu ku bindi bisobanuro.

Inzu irimo iduka, irimo ibikoresho bicururizwaho imyenda igiye itandukanye, amapantaro, amashati ndetse n'amakabutura.

Imeza nini cyane, igaragaraho amafaranga y'u rwanda ibihumbi bitanu biteretse kuri iyo meza.

Ifoto igaragaramo umukobwa ukora ubucuruzi bw'ibyo kunywa, imbere ye hagaragara umuguzi waje kugura ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Umumama ugaragara ukora ubucuruzi, ufite ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, akabido ndetse n'ibindi bikoresho akoresha mu bucuruzi bwe.

Igipapuro cy'inyemezabwishyu kigaragaza amafaranga yoherejwe ndetse n'uwayohereje.

Urupapuro rugaragaza inyemezabwishyu, rugaragaza ibyaguzwe, amafaranga byaguzwe, uwabiguze ndetse n'akarere byakorewemo.

Igipapuro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, kigaragaza imisoro yasozwe ndetse n'uwayitanze ndetse n'Akarere yatangiwemo.

Abantu babiri bagiye batandukanye, bagaragara bahererekanya amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye.

Abantu babiri begeranye barimo barahererekanya amafaranga, umwe ari kumuha amadolari undi ari kumuha amafaranga y'amayero.

Umuntu ufite ubwoko bw'amafaranga agiye atandukanye, afite amabara y'ubururu ndetse n'ayandi afite amabara y'umutuku yo mu gihugu cya Gana.

Umuntu ufite amafaranga menshi, agiye atandukanye arimo aragenda amenya umubare wayo uko angana.

Inyubako igerekeranyije iri kugaragaza sosiyete itanga serivise z'ivunwa ry'amafaranga yubatse mu buryo bugerekeranyije.

Icyumba kiri mu nyubako kigaragaza uburyo ndetse n'ahantu umuntu yavunjishiriza amafaranga menshi agiye atandukanye.

Inyubako ya hoteri yubatse mu buryo bugerekeranyije imbere yaho hariho parikingi y'ibinyabiziga kandi imbere yaho hagiye hubakiye n'amabuye.

Inzu ya hoteri igaragaza aho abayigana babakirira. Imbere haragaragara amasaha agiye atandukanye.

Icyumba kigaragaramo ubucuruzi bw'imyenda igiye itandukanye, amakabutura, amapantaro y'abana, imipira ndetse n'amashati.

Igaragaramo inzu y'ubucuruzi irimo abantu benshi bagiye batandukanye, ikaba icururizwamo imyenda y'amapantaro, amashati, imipira, ingofero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako igerekeranyije yegeranye n'umuhanda nyabagendwa, ugendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye ndetse n'abantu bagendesha amaguru.

Ifoto igaragaza uburyo bwo kwishyura amafaranga kuri telefone ku buryo bworoshye kandi bworoheye umukiriya ugana umucuruzi.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro, umupira ndetse ufite n'agakapu, afite imbere ye telefone arimo arakora serivisi za MTN.

Igaragaza abantu benshi bagiye batandukanye, baje kwaka serivisi z'ishami rya emutiyeni.

Icyapa kigaragaza ibiciro by'ibiryo bohereza mu miryango. Ifi ya tirapiya ibiro bitatu, amavuta litiro rimwe, igitunguru ikiro kimwe, amashu ikiro kimwe ndetse n'ibirayi ibiro bitatu. Byakuwe ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi n'amafaranga magana atanu y'amanyarwanda agere kuri mirongo itanu na bine n'amafaranga magana atanu y'amanyarwanda.

Icyapa kigaragaza ikinyabiziga cyegereza abantu amazi ndetse n'igicanwa cya gaze wabashatse wabahamagara kuri zeru karindwi umunani gatanu gatanu kabiri gatanu karindwi rimwe gatandatu.

Inyubako yubakitse neza, igaragaramo intebe za kizungu, iherereye mu mujyi wa Kigali, yubatse mu buryo bugezweho.

Inyubako igaragaza aho batunganyiriza ibyokurya, iherereye mu Mujyi wa Kigali, muri Kabeza, iragaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye, akabati, igikoresho gikoreshwa bashyushya amazi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako igaragaza ahantu batunganyiriza ibyo kurya hagaragara igikoresho gikoreshwa gishyushya amazi ndetse n'akabati kubakiye muri iyo nyubako.

Ifoto igaragaza inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ifite amabuye imbere ndetse ikaba iri kugurishwa miliyoni ijana, ikaba iherereye i Kinyinya mu birembo, ifite ibyumba bine ndetse na tuwarete eshatu.

Inyubako yubatse mu buryo bugiye bugerekeranyije, iherereye muri Kigali, ikodeshwa ku ijoro rimwe amadolari mirongo itatu n'atanu.

Ifoto igaragaza inyubako yubatse mu buryo bugerekeranyije kandi mu buryo bugezweho, ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amadolari ku kwezi, ikaba iherereye Gacuriro mu mujyi wa Kigali.

Inyubako igaragara iherereye muri Kagarama, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda, ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibyumba bitatu byo kogeramo.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ikodeshwa ikaba iherereye muri Kimironko. Imbere y'aho haragaragara aho ibinyabiziga bihagarara hubakishijwe amatafari.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye harimo ahakorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abadamu, inkweto z'abasore ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ifoto igaragaza umukobwa wicaye ku ntebe, ufite amakarita abiri y'ubwishingizi mu kwivuza akoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Ihuriro ry'abamama benshi batandukanye bagera kuri bane, bicaye bagaragaza amakarita y'ubwishingizi mu kwivuza bakoresha bavuza abana babo ndetse harimo n'abadamu babiri bafite abana babiri.

Inzu y'ubucuruzi butandukanye hagaragaramo umukobwa urimo arareba ibyo agomba guhaha, afite akantu atwaramo ibintu ari kugenda ahaha bigiye bitandukanye muri iri duka arimo.

Inyubako igaragaza ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye hagaragaramo abana batatu ndetse n'umumama yegeranye n'abo bana.

Y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye. Bigiye bipanze mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'ubwoko birimo, bigiye bitandukanye. Ikindi harimo n'abandi bantu bari kugenda bahaha.